Umuganga arimo aratera umubyeyi urukingo, uyu mubyeyi arahumirije asa nkaho atinya urukingo. Ni byiza kwikingira kuko biturinda indwara zitandukanye z'ibyorezo.

Umwana w'umukobwa wambaye imyenda idozwe mu bitenge, arimo arakaraba intoki yishimye, ni byiza gutoza abana bakiri bato gukaraba intoki kuko bibarinda kwandura indwara zituruka ku mwanda.

Urubyiruko rw'abasore n'inkumi, bari muri gahunda yo gupima indwara zandura n'izitandura kugira ngo abo basanga bafite izo ndwara, babakurikirane hakiri kare n'abasanga batarwaye, babagire inama yo gukomeza kwirinda.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara n'ipantaro y'umukara, afite ikayi mu ntoki ndetse n'ikaramu. Arimo araganiriza abaturage uko imibereho yabo igomba kurushaho kuba myiza.

Ivomero riteretseho amajerekani agiye atandukanye, ku ivomero hahagaze abagore batatu, umwe arimo aravoma, abandi babiri bategereje ko arangiza kuvoma, nabo bakavoma.

Umwana ukiri muto, afite isabune mu ntoki arimo arakaraba n'amazi meza, hari ijage irimo imusukira amazi kugira ngo akarabe ndetse anoge.

Urujya n'uruza rw'abantu bishimye, biganjemo abambaye amasarubeti y'ubururu ndetse n'amabaji, imbere yabo hahagaze umusaza ukuze.

Agakoresho ko mu rugo kitwa agatanda. Kifashishwa abarambikaho ibikoresho byogejwe kugira ngo byumuke. Buri rugo rukwiye kugira aka gakoresho kuko ni ingirakamaro.

Inzu mberabyombi irimo abayobozi batandukanye bari mu nama, iruhande rwabo hari uyoboye inama, iruhande rwe hari ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda rigizwe n'amabara atandukanye.

Umugabo uhagaze imbere y'abantu benshi, arimo araganiriza aba bantu ibijyanye na serivise zo kwa muganga. Arimo aranabagira inama z'uburyo bakwitwara, birinda indwara.

Umubyeyi ari kumwe n'abana babiri, bahagaze imbere y'umugezi, umubyeyi arimo aravoma amazi mu ijerekani isa umuhondo, umwana uhagaze ku ruhande rwiwe yambaye agapira k'umutuku, undi yambaye agapira k'umweru ndetse n'umukara.

Umusore w'ingimbi ahagaze imbere y'umugezi arimo arakaraba intoki, yambaye agashati k'icyatsi ndetse n'agakabutura k'umukara. Iruhande rwe hateretse indobo nini y'ubururu.

Abagore batatu bari ku mugezi witwa Nayikondo, babiri muri bo barimo baracunda kugira ngo amazi azamuke, imbere yabo hari undi arimo aravomera mu ndobo y'icyatsi.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara, iruhande rwe hari imashini zabugenewe, ziganjemo amabara y'icyatsi ndetse n'ubururu, ni uruganda runini, biragaragara ko rwifashishwa muri gahunda zo kwa muganga.

Umwana w'umukobwa witeye igitenge kirimo amabara y'umutuku, iruhande rwe hari umubyeyi, afite umutaka w'ubururu, barimo baravoma.

Abagore babiri ndetse n'abagabo babiri, umugore uri hagati afite indangururamajwi, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi, ni byiza barasa neza.

Aha ni kwa muganga, aho abarwayi bicara bategereje abaganga ko babaha serivisi baje kwaka z'ubuvuzi, ni byiza kwicara ugategereza kugira ngo ubashe guhabwa ubufasha.

Abana bakiri bato, umwe yambaye agapira k'umutuku, undi yambaye imyenda idozwe mu bitenge, basutamye imbere y'umugezi, barimo barakaraba intoki.

Abana batatu bahagaze imbere y'umugezi barimo barakaraba intoki, mu ntoki zabo harimo urufuro bigaragara ko bakoresheje isabune.

Aha ni ku ivomero, leta y'u Rwanda yegereje abaturage amavomero kugira ngo bajye babona amazi bitabasabye gukora ingendo ndende cyangwa se kurira imisozi no kuyimanuka bajya gushaka amazi.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, yambaye ga mu ntoki, arimo arasuzuma umubyeyi waje gushaka serivisi.

Mu cyumba cyo kwa muganga ahakorerwa operasiyo zo kubaga abarwayi, harimo abaganga b'inzobere bagiye batandukanye barimo baravura umurwayi uryamye ku gitanda.

Abagabo n'abagore barimo barapakira imifuka irimo ibyo kurya, ni ku zuba ndetse birasa nk'aho iyi mifuka bari kuyishyira ku ihema ry'ubururu.

Umugore wambaye igitenge, akenyeye ikindi kirimo amabara y'umuhondo n'umukara, ashagawe n'abana, barishimye barimo baraseka, biragaragara ko bamwishimiye.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu y'amaboko maremare ndetse n'ipantaro y'umukara, yambaye n'inkweto z'umukara. Arimo arakaraba intoki akoresheje igikoresho bita kandagira ukarabe.

Umwana w'umukobwa w'umunyeshuri, yambaye inifomu y'ishuri yigaho, ahagaze imbere y'urukarabiro, arimo arakaraba intoki n'amazi meza, ni byiza gukaraba intoki kuko bituma tutarwara indwara zituruka ku mwanda.

Umugabo wambaye agapira ka oranje, arimo araha umwana amata, uyu mwana na we yambaye agapira ka oranje, umubyeyi umufite mu ntoki yambaye agapira k'umweru.

Uyu ni umusore uri kuganira n'umuganga, amubwira uko ubuzima bwe buhagaze, inyuma yabo, hari icyapa cyanditseho ngo SIDA iracyahari, duhaguruke tuyirwanye.

Ihuriro ry'abaganga batandukanye barimo barafata ifoto y'urwibutso, higanjemo abirabura, hakabamo n'umuzungu umwe.

Inzu mbera byombi yahuriyemo abagabo, baricaye barimo baraganira, imbere yabo hateretse icyo kunywa bisa nk'aho bafite ingingo nyamukuru bari kuvugaho.

Abana bakiri bato bahagaze imbere y'umugezi, harimo umwe urimo aranywesha ikiganza cye amazi. Iruhande rwe hari abandi batandukanye, barimo baraseka.

Umubyeyi ukenyeye igitenge iruhande rwe hahagaze umwana, hirya yabo hari abana barimo baracunda umugezi wa nayikondo kugira ngo amazi azamuke.

Umwana w'umukobwa wambaye imyenda y'ishuri ahagaze imbere yakandagira ukarabe, arimo arakaraba intoki n'amazi meza n'isabune, aha ni ku kigo cy'amashuri. Ni byiza gutoza abana bato gukaraba intoki n'amazi meza.

Umwana ukiri muto yambaye ishati y'umuhondo ndetse n'ikabutura y'ubururu, afite ibikombe mu ntoki birimo amazi yanduye, ni bibi kunywa aya mazi kuko atera indwara zituruka ku mwanda.

Leta y'u Rwanda irakataje mu iterambere, aho igenda igeza ku baturage ibikorwaremezo bigiye bitandukanye, iyi ni amburanse yashyikirijwe abaturage kugira ngo bajye bagera kwa muganga biboroheye.

Urujya n'uruza rw'abantu, bihurije hamwe, baje gusuzumisha umubiri wabo ngo barebe uko uhagaze. Ni byiza, birafasha cyane kuko bituma umenya indwara mbere y'uko iguhitana.

Abagabo ndetse n'abagore, biganjemo abambaye ingofero z'imyeru, abandi bambaye imipira y'imyeru ndetse n'imipira y'ubururu, bafite icyapa mu ntoki cyanditseho ngo umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri, isuzumishe turandure kanseri y'inkondo y'umura.

Umugabo wambaye umupira wa oranje, arimo arasuhuzanya n'umwana ukiri muto, wambaye ishati irimo turonko, tugiye dutandukanye.

Umugabo uhagaze imbere y'abantu benshi, higanjemo abagabo ndetse n'abagore, arimo arabasobanurira ibijyanye n'indwara ndetse n'ubuzima bw'umwana, ni byiza kwita ku buzima bw'umwana ukiri muto.

Abagore babiri bafite agafuka mu ntoki bari guhabwa n'umugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'ubururu, bagiye guteka ibyo bari kubahereza.

UNICEF ni umuryango utegamiye kuri leta ushinzwe uburenganzira bw'umwana, ni byiza gusigasira uburenganzira bw'umwana kuko ni umunyantege nke ntabwo yashobora kwirengera.

Abana b'abanyeshuri, bambaye impuzankano ya kaki, bari imbere y'imigezi ya Nayikondo itatu, bamwe barimo barapompa amazi, abandi barimo baravoma, bakoresheje indobo z'umuhondo.

Gukingiza abana bakiri bato ni byiza kuko birabafasha, cyane cyane mu kubarinda indwara zituruka ku byorezo bitandukanye, aha twavugamo nk'agakwega, imbasa ndetse n'akaniga.

Abana b'abahungu babiri barimo barakaraba intoki, umwe muri bo yambaye agapira k'umutuku, n'undi yambaye imyenda idozwe mu bitenge, ni byiza gutoza abana bakiri bato gukaraba intoki, kuko bibarinda indwara ziterwa n'umwanda.

Abantu batandukanye, higanjemo abicaye hasi ndetse n'abahagaze. Baje kwitabira serivise z'ubuzima.

Inzu mberabyombi yahuriyemo abagabo ndetse n'abagore, barimo baraganira ku ngingo runaka bityo bashake umuti w'ikibazo gihari.

Igikoresho cyabugenewe kandi kigezweho cyifashishwa mu gukaraba intoki, ni amazi meza ndetse ku ruhande hari isabune n'ibibanza biteze munsi y'iki gikoresho, bitegereje ko amazi amanuka.

Umwana w'umukobwa ukiri muto, yambaye imyenda y'imituku, ari ku mugezi arimo arakaraba intoki, ni byiza gutoza abana bakiri bato gukaraba intoki kuko bibarinda indwara zituruka ku mwanda.

Aha ni ku kigo nderabuzima, aho umubyeyi yazanye umwana we ngo bamukingire indwara zitandukanye. Hari umujyanama w'ubuzima, arimo arafata impapuro asoma imyirondoro y'umwana.

Umuyobozi ufite indangururamajwi mu ntoki, ahagaze imbere y'abaturage ayoboye, imbere ye kandi hicaye akana gato, kambaye utwenda tw'imyeru ndetse muri abo bantu harimo umupolisi.

Abana b'abakobwa barimo baraseka, imbere yabo hateretse amasahani ariho amafunguro. Bambaye imyenda ya kontoni, hirya yabo hari abana b'abahungu na bo barimo barafata amafunguro.

Umwana wambaye ishati y'icyatsi, ndetse n'ikabutura y'umukara, ari imbere y'ikiduki cy'ibara ry'ubururu, arimo arakaraba intoki ku mugezi.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo imashini zipima abarwayi, imbere yayo hahagaze umuganga wambaye itaburiya iri mu ibara ry'icyatsi, yipfutse n'agatambaro karimo amabara y'ubururu ndetse n'umuhondo.

Abana bakiri bato, bambaye udupira tw'ubururu twanditseho UNICEF. Barishimye, barimo baraseka, uburenganzira bw'abana nibwubahirizwe ku isi hose.

Abantu batatu barimo abagabo babiri ndetse n'umugore umwe barimo barakina inkinamico imbere y'imbaga nyamwinshi, barimo barabigisha iby'icyorezo cya ebola.

Umusaza wambaye ingofero y'umukara, ikoti ry'umukara ndetse n'agapira k'umweru, arimo arapimwa umuvuduko kugira ngo bamenye uko ubuzima bwe buhagaze.

Umwana uri mu biganza by'umubyeyi we, arimo arahabwa umuti na muganga, ni byiza kujya kuvuza umwana ukigaragaza ibimenyetso byo kutamera neza.

Abagabo n'abagore bari muri porogaramu yitwa hehe n'igwingira, intego yabo ni twite ku buzima bw'umubyeyi utwite.

Umugezi wa Nayikondo, hariho abagore batatu, babiri muri bo, barimo baracunda kugira ngo amazi azamuke, undi ari imbere y'umugezi arimo aravomera mu ndobo.

Abategarugori barambuye amaboko barimo barahamiriza biragaragara ko bishimye, bari mu nzu isize irangi ry'umuhondo, hejuru kuri parafo hasize irangi ry'umweru.

Utuzu tubiri duto twubakishijwe amatafari ahiye mu mpande dusize amarangi y'ubururu dusakajwe amabati, imbere yatwo hari uruzitiro rw'ibyuma.

Ni byiza kujya kwa muganga igihe urwaye. Uyu ni umubyeyi uryamye ku gitanda, ari kumwe n'abandi babyeyi. Bose bambaye udupfukamunwa tujya gusa ibara ry'ubururu barimo baramusuzuma.

Umugabo n'umugore bari mu biro, umugore yicaye imbere y'ameza, imbere ye hateretse uducupa tubiri tw'amazi, umugabo we arahagaze yambaye imyenda isa hasi no hejuru iri mu ibara rijya gusa nk'icyatsi.

Imodoka itwaye ibikoresho byifashishwa mu buvuzi bw'amenyo. Aha ni mu Karere ka Bugesera. Abaturage bose bafite ibibazo by'amenyo barahagera bakabakirana yombi.

Abana bo mu cyaro bamwe muri bo bambaye inkweto abandi bafite utujerekani bagiye kuvoma, barimo baraseka urabona ko bishimye ni byiza kugira isuku.

Umugabo wambaye inshwabari, imisatsi myinshi cyane itagirirwa isuku, asa nabi biragaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe.

Inzu mberabyombi yahurijwemo abantu batandukanye, imbere yabo hahagaze umugore urimo arabigisha ku ngingo bari kuganiraho.

Uyu ni umunsi mpuzamahanga wo kwizihiza ubuzima bwo mu mutwe, aha ni mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu, ni bwo wizihijwe.

Abagore babiri bicaye ahantu hatuje, umwe arimo arahumuriza undi, birasa nk'aho hari ikibazo yagize kigomba gushakirwa umuti.

Inzu mberabyombi yahuriyemo abantu batandukanye, imbere yabo hahagaze umugore wambaye ikanzu y'umweru ndetse n'ikoti ry'umukara, arimo arabaganiriza ku ngingo zigiye zitandukanye.

Umugabo n'umugore, bicaye imbere y'ameza atwikirijeho igitambaro cy'umuhondo, imbere yabo bombi hateretse icupa ry'amazi, umugore arimo araganiriza umugabo ku bibazo yahuye na byo.

Abana bakiri bato, biyambariye imyenda yiganjemo imipira irimo amabara y'umuhondo, biyambitse n'utuntu tw'umweru mu mutwe, barimo baraseka biragaragara ko ari umunsi wabo.

Urubyiruko rw'abasore n'inkumi bakiri bato, bambaye imipira y'imikara hejuru, bose bicaye bareba imbere, barimo barahabwa amabwiriza ajyanye n'ubuzima bwabo.

Umugabo ubyibushye arakuze yambaye ikoti ry'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara imbere ye hari indabo z'ubwoko butandukanye, aha ni kurwibutso arimo arunamira abazize jenoside mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane abitwaga abatutsi.

Abana barimo abahungu n'abakobwa barimo baraseka barishimye, n'ibyiza guseka kuko byongera iminsi yo kubaho.

Umugabo wicaye hasi akenyeye urupine mu nda, asa nkaho ari hasi, afite ikibazo cyo mu mutwe.

Uruhurirane rw'abantu benshi ndetse inyuma yabo hari abapolisi bakunda gucunga umutekano w'Igihugu, ni beza baracyeye kandi barimo barafata ifoto y'urwibutso.

Umukecuru wambaye ibitenge ateretse isafuriya ku ziko hanze, ntabwo ari byiza gutekera hanze kuko bituma ibiryo byawe bitagira ubuziranenge.

Abayobozi batandukanye harimo umupolisi, bahagaze imbere y'ibitaro bya Kacyiru aha ni ahavurirwa indwara zitandukanye, cyane cyane izo mu mutwe.

Abagore babiri bicaye barebana, umwe yambaye ingofero mu mutwe ndetse n'imyenda yiganjemo umutuku, undi yambaye imyenda y'imikara ndetse n'amadarubindi y'umweru arimo aramuganiriza.

Umuganga w'umugabo, afite utwuma twabugenewe mu ntoki, arimo arasuzuma umurwayi indwara y'amenyo. Yambaye ga z'umweru, ndetse n'amadarubindi.

Icyumba cyo kwa muganga, aha ni aho basuzumira amenyo, hari ibikoresho bitandukanye, ku rugi hamanitse isaha yabugenewe.

Umuganga yambaye udukoresho twabugenewe ku maso, iruhande rwe hari uwambaye ga ndetse n'umwambaro wabugenewe w'ubururu, barimo barasuzuma umurwayi amenyo.

Agakoresho kifashishwa iyo woza amenyo. Kagufasha gukura imyanda hagati y'amenyo bityo ukagira isuku yo mu kanwa. Ni byiza kugira isuku yo mu kanwa kuko biturinda indwara zatuma tubura amenyo yacu.

Umusore mwiza ukeye, afite urudodo rwabugenewe mu ntoki arimo aroza amenyo. Ni byiza amenyo yacu kuyagirira isuku, bituma tugumana inseko yacu.

Abaganga babiri b'abagabo barimo baravura umugore indwara z'amenyo, ni byiza kwisuzumisha amenyo hakiri kare kuko bituma tugumana inseko yacu.

Urujya n'uruza rw'abantu, batonze umuronko berekeza ku ihema. Barimo barabapima ibiro ndetse n'uburebure, nyuma yaho bakerekeza mu ihema, bakabapima amenyo ngo barebe uko amenyo yabo ameze.

Uyu musore ukiri muto arimo aracisha akadodo hagati y'amenyo kugira ngo akomeze kuyagirira isuku, kwiborosa ntibihagije, ni byiza gucishamo aka kantu kugira ngo nawe ugire amenyo asukuye.

Icyumba gisuzumirwamo abarwayi barwaye indwara y'amenyo. Harimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa n'abaganga iyo barimo bavura uyu murwayi. Ni byiza kwisuzumisha amenyo hakiri kare.

Iyi ni ifoto yerekana uko amenyo yacu aba ameze, ibi ni byiza iyo ugiye kwa muganga bagomba kukwereka uko amenyo yawe ahagaze.

Udukoresho twifashishwa kwa muganga bapima ingano y'amenyo. Umugabo ugafite mu ntoki arimo araseka ndetse yagatunze agatoki.

Iki ni igikoresho kigezweho cyo kwa muganga cyabugenewe cyo kuvura amenyo, cyifashishwa boza amenyo ndetse kikanifashishwa gisukura mu kanwa.

Umusore arimo arakora isuku yo mu kanwa akoresheje akadodo kabugenewe, ntabwo bihagije kuborosa gusa, biba byiza iyo wongeye ukanyuzamo akado hagati y'amenyo kuko birinda kurwara indwara z'amenyo.

Ni byiza kwisuzumisha amenyo kugira ngo urebe niba adafite ikibazo, jya uhora ujya kwa muganga, bagusuzume, nibasanga afite ikibazo bayavure.

Iki ni icyumba cy'abarwayi kivurirwamo indwara z'amenyo. Harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa n'abaganga b'inzobere mu kuvura amenyo.

Udukoresho twabugenewe, turi mu ngano zitandukanye, twifashishwa boza amenyo. Hari utwoza amenyo y'abana, ay'abakuru, ndetse hari n'utuyakura.

Umusore ndetse n'inkumi, urabona ko bishimye. Bombi bambaye imipira y'imyeru. Bafite utudodo twabugenewe mu ntoki, barimo barasukura amenyo yabo.

Umusore ukiri mutoya ,ni umuganga arimo arasuzuma amenyo y'umusaza wicaye imbere ye. Indwara zo mu kanwa, ni byiza ko tuzirinda hakiri kare, mbere y'uko turwara.

Umwari mwiza ukeye afite uburoso mu ntoki arimo aroza amenyo, yipfutse igitambaro cy'umweru ndetse yambaye isengeri y'umweru, ni byiza koza amenyo yacu.

Umusore ukiri muto barimo baramusuzuma amenyo ndetse banayoza ni byiza kujya kwa muganga ukisuzumisha amenyo kuko bituma utayabura bitewe n'uburwayi.

Umusore ukiri muto, arimo araseka, biragaragara ko yishimye. Yambaye agapira k'umweru, inyuma ye hari icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo.

Umusaza wambaye amadarubindi y'umweru, agapira k'ivu, afite imvi z'umweru. Arimo arakora isuku ndetse arimo arisiga n'amavuta.

Umwana mwiza wambaye agashati k'icyatsi arimo arisuzumisha amenyo urimo aramusuzuma yambaye ga z'icyatsi.

Umusaza usheshe akanguhe, yambaye imyenda iri mu ibara ry'umukara, ari hagati y'abakiri bato, umwe amufashe akaboko iburyo n'undi akaboko ibumoso.

Ibikoresho byashyikirijwe abageze mu zabukuru, harimo imbago, aho kwicara ndetse n'akagare kabafasha kugenda.

Umukecuru wicaye imbere y'umuganga ushinzwe kwita ku buzima bwe, arimo aramupima umuvuduko w'amaraso ndetse amupima n'uko umutima we uhagaze.

Umubyeyi ukiri muto, arimo arakora imyitozo ngororamubiri. Arimo arashishikariza bagenzi be bari mu kigero cy'imyaka ingana, gukora imyitozo ngororamubiri kuko bituma bagira ubuzima bwiza.

Umusaza wambaye amadarubindi, yambaye ishati y'iroza, afite ikaramu mu ntoki, ndetse n'igitabo mu ntoki. Yitangiriye itama, ndetse asa nk,aho afite ikintu ari gusoma.

Umuganga arimo arabwira umurwayi we, uburyo ubuzima bwe buhagaze, arimo aramugira inama, yo kugira uko yitwara, haba mu mirire, ndetse no mu mibereho mu buzima bwa buri munsi.

Isoko ririmo ababyeyi batandukanye, imbere yabo hateretse inyanya nziza zisa neza, inyuma yabo kandi hateretse imbuto z'ubwoko butandukanye.

Ababyeyi batandukanye, barimo abafite ibiseke, barimo baraboha, imbere yabo hicaye umuzungu ushigatiye akana.

Umusaza n'umukecuru bicaye, umukecuru afite urupapuro rw'umweru mu ntoki, umusaza afite akantu k'agacupa mu ntoki bombi barimo barasoma urwo rupapuro.

Umukecuru n'umusaza, umukecuru yambaye agapira k'amaboko maremare kajya gusa umutuku ndetse umusaza yambaye agapira k'amaboko maremare kajya gusa umweru, imbere yabo hari ibyo kurya by'ubwoko butandukanye.

umusaza ufite imvi z'umweru, afite isahani mu ntoki irimo ibyo kurya bigiye bitandukanye, byiganjemo ibirinda indwara ndetse n'ibyubaka umubiri.

Umusaza ufite imvi z'umweru, afite terefone mu ntoki, iruhande rwe hari ushinzwe kumwitaho, imbere yabo hateretse agakoresho kari mu ibara ry'umukara.

Umusaza w'ubwanwa bw'imvi, bw'umweru, imbere ye hahagaze umugabo, bombi bafite umugozi w'umuhondo barimo barawukurura, bisa nkaho bari muri siporo.

Umusaza ukuze, yambaye ishati y'ubururu yicaye ku gitanda, ari kumwe n'umuganga ushinzwe kumwitaho. Ni byiza guteganyiriza ahazaza kuko bituma ugira amasaziro meza.

Ababyeyi bambaye imipira y'imituku ndetse bakenyeye imishanana y'imyeru, bombi bafite inkoni zo kwicumba mu ntoki. Inyuma yabo hari urubyiruko rw'abasore n'inkumi.

Umusaza ugeze mu zabukuru ari kumwe n'umurwaza ushinzwe kumwitaho, arimo aramukoresha imyitozo ngororamubiri kugira ngo ubuzima bwe burusheho kumera neza.

Umusaza w'imvi z'umweru, ari kumwe n'umufasha we wipfutse igitambaro cy'umutuku, urabona ko bishimye bameze neza.

Umusaza uryamye ku gitanda kwa muganga i ruhande rwe hari imashini ipima ubuzima bwe uko buhagaze, ku ruhande hirya hari umuganga arimo arareba uko umurwayi we ameze.

Umukecuru n'umusaza basheshe akanguhe, barimo barakina imikino ya rudo, ni byiza guteganyiriza ejo hazaza hacu kuko bituma tugira amasaziro meza.

Umusaza usheshe akanguhe, yambaye agapira k'umweru n'agapantaro k'umukara, iruhande rwe hari umuganga ushinzwe kumwitaho, arimo aramukoresha imyitozo ngororamubiri.

Inteko y'abaturage bicaye hamwe bakoze uruziga, barimo baraganira ku gitekerezo ndetse n'izindi ngingo zigiye zitandukanye, ni byiza kujya mu nama kuko umenyeramo byinshi abayobozi bashaka kukugezaho.

Umusaza n'umukecuru basheshe akanguhe, bombi bakenyeye imikenyero. Biragaragara ko bari mu muhango w'ubukwe, aho bawitabiriye ndetse babyambariye.

Umwana ndetse na mama we, iruhande rwe hari undi mugore bafite udukarita mu ntoki barimo baraseka kandi barishimye.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara ahagaze imbere y'imbaga nyamwinshi arimo arabasobanurira ingingo zigiye zitandukanye. Imbere yabo hari mudasobwa imwe.

Icyapa cyanditseho amagambo y'umweru ndetse n'umuhondo, aravuga ngo twirinde indwara y'ubushita bw'inkende, iyi ni indwara mbi kandi yica mu gihe gito.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, iri ni ihuriro ryacyo, aba ni abantu biganjemo abagore ndetse n'abagabo, bari bagize umunsi mukuru wo guhura.

Madamu Jeannette Kagame, ahagaze imbere y'imbaga nyamwinshi, arimo araganiriza abantu ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Iri ni itangazo rirahamagarira abaturarwanda bose kuza kwikingiza indwara y'ibicurane by'umuhondo kuko urukingo rwayo rwagarutse.

Umuhanzi w'umunyarwanda Mico the best, ahagararanye n'umugore ukiri muto, mu ntoki zabo bafite icyapa cya RBC, cyanditseho ngo: "twisuzumishe igituntu, kiravurwa kigakira."

Iki ni icyapa cyerekana uko hakwirindwa icyorezo cya virusi itera SIDA ndetse n'uko bakwita ku muntu uyirwaye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ni byiza kwirinda SIDA kuko ntirabonerwa umuti n'urukingo.

Ababyeyi bane, bakikiye abana babo, baje muri serivise zitangwa kwa muganga. Baje gukingiza abana babo, urabona ko bishimye, barimo baraseka.

Umugore wambaye ikote rya kaki, afite indangururamajwi mu ntoki arimo aravuga ku birebana n'urubyiruko mu kwirinda imibonano mpuzabitsina bataruzuza imyaka.

Umugabo wambaye imyenda y'ubururu, imbere ye hari umugabo wambaye ijire irimo amabara y'icyatsi ndetse yambaye n'ishati y'amaboko maremare, arimo arakingira urukingo rwa kovide cumi n'icyenda.

Umubyeyi ushigatiye umwana we. Inyuma ye hari abanyeshuri bambaye impuzankano ziganjemo amashati y'imyeru ndetse n'amakaruvati. Bose bahetse ibikapu by'umukara.

Madamu Jeannette Kagame, arimo arageza ikiganiro ku bitabiriye umunsi mpuzamahanga wo kwita ku buzima bwo mu mutwe, arimo arabaganiriza ndetse abaha inama zijyanye n'uko twasigasira ubuzima bwacu.

Uru ni urubyiruko rw'abasore n'inkumi barimo baramamaza agakingirizo. Niba kwifata bikunaniye, koresha agakingirizo bikurinde kwandura indwara zikomoka ku mibonano mpuzabitsina idakingiye.

Ikigo gishinzwe gusigasira imibereho myiza y'abaturage, cyane cyane Abanyarwanda cyitwa HPR.

Abaganga batandukanye bahagaze iruhande rw'umurwayi barimo baramuvura, bambaye imyenda y'ubururu ndetse n'udupfukamunwa tw'imyeru, ni byiza kwivuza kuko bigabanya ibyago byinshi byo kubura ubuzima.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya Sida, Sida ni mbi, irica kandi ntikira, ni byiza kuyirinda ukoresha agakingirizo igihe kwifata byakunaniye.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya indwara ya diyabete, diyabete ni indwara mbi kandi irica, gusa ni byiza ko wabasha kuyirinda.

Ibi ni ibipimo byafashwe ku bantu batandukanye, babapima ngo barebe niba barwaye indwara ya Monkeypox cyangwa se ubushita bw'inkende.

Inzu nini cyane, imbere yayo hariho icyapa cyanditseho Rwanda children, aha ni ikigo gishinzwe kwita ku bana kibaha imibereho myiza.

Umugabo uri kuri mudasobwa, yambaye ikote ry'ubururu, arimo arareba ishusho muri mudasobwa y'imbavu z'umuntu.

Aha ni ku bitaro byo kwa muganga, aho bita kuri iresebusiyo. Aha niho bakirira abarwayi iyo baje kwivuza. Mbere y'uko ubonana na muganga unyura hano.

Icyumba kinini cyiganjemo ibara ry'umweru, kirimo amatara menshi ari ku murongo, gikorerwamo ibikorwa bitandukanye bijyanye n'ubuvuzi, hari udutanda turiho matera dutandukanye.

Kwa muganga ahari ibitanda bitandukanye, ni aho abarwayi baryama igihe babahaye igitanda. Ibi biba iyo batararangiza kubavura.

Aha ni kwa muganga, abantu urujya n'uruza batonze umurongo bicaye ku ntebe, birasa nk'aho bategereje guhabwa serivise zo kwa muganga.

Inzu nini yubakishije amatafari meza yo mu bwoko bwa ruriba, isakajwe amabati agezweho, ku ruhande hateye ibiti by'ubwoko butandukanye bituma haza umwuka mwiza.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo serumu isaha imanitse ku rukuta, ifoto nziza yometse ku rukuta ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu kuvura abarwayi.

Iki ni ikigo cyitwa isange wane sitopu senta, ni ku ishami rya Remera Rukoma, aha iyo wahohotewe urabagana bakagufasha ndetse bagakurikirana n'uwo muntu uba yaguhohoteye.

Inyubako yo kwa muganga, ivurirwamo indwara z'amaso, isakajwe amabati y'ubururu ndetse n'ibirahuri bisa neza bibengerana, ikirere kiratuje kandi kirakeye.

Abaganga batatu bambaye inifomu z'imyeru, imbere yabo hicaye umugabo ndetse n'umugore barimo barabafata amaraso, ni byiza gutanga amaraso kuko bikiza ubuzima bw'abantu benshi.

Inyubako nini igeretse kabiri, hasi hari imodoka, imbere yayo haparitse abagabo batatu, bose bambaye amakote barasa neza.

Imashini yabugenewe yifashishwa mu gusuzuma abafite uburwayi mu mutwe, waba wakomeretse, waba wumva ubuzima bwawe butagenda neza mu mutwe uraza hano bakagusikana bakakubwira ibitagenda neza.

Abagore n'abagabo baturuka mu bihugu bitandukanye, barimo barifotoreza iruhande rw'icyapa cyanditseho Butaro hospital, Butaro ni ibitaro birimo inzobere nyinshi mu kuvura kanseri.

Inyubako nziza ikeye iri ahantu hatuje kandi hatekanye, ni ibitaro bya Nyarugenge, imbere yaho hateye ubusitani bwiza cyane.

Aha hari ababyeyi ndetse n'abagabo, bicaye ku gasima. Imbere yabo hari urukuta rwubakishijwe amabuye, ruzengurutse igiti kinini, kigandaye.

Umuhanda muremure ushashemo amapave, iruhande rw'ibumoso hari abagore babiri ndetse n'umugabo umwe barimo barazamuka.

Ababyaza babiri, umwe yambaye itaburiya y'umweru, umuri inyuma yambaye itaburiya y'ubururu irimo ibara ry'umweru, uw'imbere akikiye uruhinja.

Inyubako nini irimo udutebe duto tugiye dutandukanye, aha niho abantu bicara bategereje serivisi baje gushaka. Ni inzu irimo amakaro ndetse isize irangi ry'umweru.

Umugabo ukiri muto arimo aramwenyura, afite igikoresho cyabugenewe cyo gupima umutima, hirya ye hari umubyeyi wambaye ikanzu y'ubururu.

Ibi ni ibikoresho byifashishwa abana bakina, byitwa ibyicungo, bitanga umunyenga bigatuma abana ndetse n'abantu bakuru bishima.

Inzu nziza iteyemo amarangi y'umweru, hirya hari ibikoresho byabugenewe byo kwa muganga, birimo ibitanda abarwayi baryamaho ndetse n'inzitiramibu zibarinda imibu.

Ibitanda byo kwa muganga, hagati yabyo hari ameza, ibi bitanda, abarwayi babiryamaho iyo bari kwa muganga baje kwivura indwara zitandukanye.

Icyumba kigari kandi kinini cyo gukoreramo imyitozo ngororamubiri, siporo ni nziza ku buzima bw'umuntu kuko bituma agorora ingingo ze.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abagore batatu, babiri bari ku bitanda, umwe ni umuganga yambaye itaburiya y'umweru, afite n'igikoresho mu ntoki gipima umutima, arimo arasuzuma umurwayi.

Inzu isize irangi ry'umweru, iriho amadirishya ari mu ibara ry'umweru ndetse n'ibirahuri byiza byo mu bwoko bukomeye, iruhande rwayo hari utwapa twanditseho bayoniteke mu mabara arimo icyatsi ndetse n'umuhondo.

Inzu irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo isaha ku rukuta ndetse hasi harimo amakaro, hari imashini iteretse ku meza.

Aha ni aho basuzumira indwara zitandukanye cyane cyane indwara zo mu kanwa, ni byiza kwisuzumisha mu kanwa kugira ngo niba hari ikibazo basanze ufite bakuvure hakiri kare amazi atararenga inkombe.

Umugabo uri kuri mudasobwa yambaye ikote ry'ubururu, arimo arareba ishusho muri mudasobwa y'imbavu z'umuntu.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, iriho amadirishya asize irangi ry'umweru, handitseho inzu y'ababyeyi, aha hatangirwa serivisi zitandukanye.

Umwana wicaye imbere y'umuganga, barimo baramusuzuma. Iruhande rwe, hicaye undi umeze nk'umubyeyi, asa nk'aho yamuzanye kwa muganga.

Aha ni kwa muganga. Harimo urujya n'uruza rw'abantu, higanjemo abakozi. Bambaye udupfukamunwa, bigaragara ko hari isuku.

Inzu nini kandi ngari. Aha ni muri sare hifashishwa hakorerwamo serivise zitandukanye zo gukiza amagara y'abantu.

Ibitaro byamamaye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, byitwa ibitaro bya Faisal. Aha ni mu mujyi wa Kigali, imbere yaho hari icyapa cyabugenewe cyo kuyobora abayobozi b'ibinyabiziga.

Abagore batatu, babiri muri bo barakuze, imbere yabo hicaye umuganga, arimo arambika umugore umwe igipimo gipima umutima, ni byiza kwisuzumisha utararwara.

Iri ni ihererekanyabubasha ryakozwe rikorwa n'abayobozi b'ibitaro bya Gahini, barimo barabyereka itangazamakuru ndetse n'abantu batandukanye.

Icyumba kinini cyane kiganjemo amabara y'umweru ndetse n'icyatsi, ni kwa muganga hatangirwa serivisi zitandukanye, hirya yaho handitse ijambo riri mu rurimi rw'Icyongereza ryitwa nasi.

Inyubako nziza kandi nini, yubakishijwe amatafari ya Ruriba, isakajwe amabati meza ari mu ibara ry'umutuku, imbere yayo hari ubutaka buteyeho ibimera bitandukanye.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare ndetse n'ipantaro y'umukara, yicaye ku nyubako yubakishijwe amabuye ndetse ari munsi y'igiti kinini kigandaye.

Aha ni kwa muganga. Iki ni icyumba cyitwa operesheni rumu, ni aho bakorera operasiyo zo kubaga abarwayi.

Umurongo muremure, birasa nkaho baje gushaka serivisi zo kwa muganga, imbere y'utanga serivisi hari uwicaye mu kagare k'ababana n'ubumuga.

Inyubako nziza ikeye irimo amakaro y'umweru, intebe, ameza ateretseho mudasobwa, imbere yayo hari akabati kabika ibintu bitandukanye.

Igikoresho cyifashishwa kwa muganga, mu ndimi z'amahanga bacyita mikorosikopi, ni igikoresho cyifashishwa na muganga, akaba yareba utuntu duto tutabonesha amaso yacu.

Inzu ikeye kandi ituje, imbere yayo hari ubusitani, hagati harimo igiti kigandaye, bigaragara ko ari ahantu heza cyane.

Igitanda kiriho umurwayi, hariho imashini icometse irimo gusuzuma uko ubuzima bwe buhagaze, hari umuganga umuhagaze iruhande, yambaye ipantaro y'icyatsi ndetse n'itaburiya y'umweru.

Aha ni kwa muganga hari inzu yubakishijwe amatafari ahiye isakajwe amabati asize irangi ry'ubururu, imbere kuri iyi nzu handitseho materinite cyangwa se inzu y'ababyeyi, aha niho babyarira.

Imashini yabugenewe yo gusuzuma indwara zo mu mutwe, aha ni kwa muganga iruhande rwayo hari akabati karimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa bapima umurwayi.

Umuganga w'umugore wambaye agapfukamunwa ndetse n'itaburiya y'umweru arimo arasuzuma umwana ukiri muto indwara y'umutima, arimo aramwambika igikoresho cyabugenewe gishinzwe gupima umuvuduko w'umutima.

Aha ni ku bitaro, ku nzu y'ababyeyi, bakunda kuyita materiniti, aha ni ho ababyeyi babyarira, aba bahahagaze ndetse n'abasutamye barimo barafata ifoto y'urwibutso kubera ko ari abakozi bahakora.

Umukobwa ukiri muto, yambaye agapantaro ka buresiyeri ndetse n'agasengeri k'umweru. Ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Ubu ni uburyo bazirikamo ibiganza iyo ugiye gukora siporo kugira ngo utabasha kuvunika intoki, cyangwa se ikiganza, ni byiza kubukoresha kuko bituma umuntu atavunika.

Umugabo wambaye agapira k'umweru, afite icupa mu ntoki, riri mu ibara ry'ubururu, arimo aranywa amazi. Kandi arimo arakora imyitozo ngororamubiri.

Igikoresho cyifashishwa kwa muganga cyitwa mikorosikopi, cyifashishwa bavumbura indwara zitandukanye ndetse bapima na za mikorobe tutabasha kubonesha amaso.

Umukobwa wambaye agapantaro k'umukara ndetse n'agasengeri karimo ibara rijya gusa umutuku, arimo arakora imyitozo ngororamubiri, ni byiza kandi bituma umuntu abaho neza.

Umukobwa wambaye isaha ku kuboko ibara ibirometero yakoze yirukanka, yambaye agasengeri k'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara. Yicaye mu muhanda arimo arakora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu ufite ivi ryakomeretse hari umurwayi urimo amwitaho, yambaye itaburiya y'umweru ndetse umurwayi na we yambaye imyenda y'imyeru.

Umugabo usa nkaho akuze, afite akagozi k'umuhonda mu ntoki ze, aka kifashishwa iyo ukora imyitozo ngororamubiri bityo karagufasha cyane.

Umukobwa ukiri muto, afite imisatsi myinshi, yambaye ekuteri z'umweru ndetse n'isaha ku kuboko, arimo arakora imyitozo ngororamubiri.

Imashini yabugenewe, iri mu cyumba cyo kwa muganga, yifashishwa bapima indwara zo mu mutwe ndetse n'ufite ikibazo mu mutwe bamunyuzamo, bakakireba, bakakimenya.

Croix rouge cyangwa se tabara ni ikigo kitegamiye kuri Leta gishinzwe gutabara abantu bari mu bibazo ndetse gishinzwe no gutabara inkomere

Imbuto z'ubwoko butandukanye ndetse n'imboga, higanjemo pome, isenda, imineke ndetse n'amaronji, iruhande rwaho hari ibyuma byifashishwa mu gukora siporo.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, hejuru yambaye agapira k'umuhondo kanditsemo amagambo y'umutuku ndetse n'umukara, gukora imyitozo ngororamubiri ni byiza.

Imironko itandukanye iriho abana bakiri bato, barimo barakora imyitozo ngororamubiri. Siporo ni nziza ku bana, kuko bakura neza kandi vuba.

Ibikoresho byabugenewe byo kwa muganga byifashishwa bigisha uko bapima umuvuduko ndetse n'uko umutima utera. Ibi ni ibikoresho biteye imbere.

Umugore ukiri muto, yambaye agakabutura k'ubururu ndetse n'isengeri y'icyatsi, arimo arakora imyitozo ngororamubiri asunika icyuma cyabugenewe mu kwifashishwa gukora siporo.

Umugore ukiri muto, afite icupa mu ntoki ririmo amazi, arimo arayanywa, siporo ni ingenzi ku buzima bw'umuntu, ariko kandi ni byiza no kunywa amazi igihe ukora imyitozo ngororamubiri.

Izi ni inkoni. Mu Kinyarwanda cyiza bazita inshyimbo. Zifashishwa n'abasaza cyangwa se abakecuru, iyo bageze mu zabukuru.

Ni kwa muganga hari umuntu uharyamye, barimo barananura akaguru k'iwe bagerageza kugorora imitsi kugira ngo arusheho kumera neza.

Umugore ukiri muto arimo arakora imyitozo ngororamubiri. Siporo ni nziza kuko zituma umubiri wacu umera neza.

Ikirahuri kirimo kirasukwamo amazi y'urubogobogo meza, asa neza. Arimo arava mu icupa ry'ubururu. Amazi ni meza ku buzima bwacu.

Imashini zifashishwa mu gupima uko umutima utera, hari indi mashini ku ruhande ipima uko amaraso akora ndetse n'izindi mashini zitandukanye.

Umugore wicaye imbere y'umuganga, arimo aramubwira uko ivi rye ndetse n'ukuguru bihagaze. Ni byiza kujya kwa muganga iyo uhuye n'imvune, kuko bituma imvune itarengerana.

Umusore w'ibizigira ukiri muto, wambaye isengeri y'umukara, irimo uturongo tw'umutuku, arimo arakora imyitozo ngororamubiri, ni byiza gukora imyitozo ngororamubiri kuko biturinda gusaza vuba.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, afite igikoresho cyabigenewe yambaye mu ijosi, arimo arakanda ku ivi ry'umurwayi ngo yumve aho uburwayi bwe bugeze.

Umwari ukiri muto, yambaye ekuteri z'umweru, afite isaha ku kuboko, yambaye agasengeri ka oranje. Arimo arakora imyitozo ngororamubiri.

Umusore ufite ibizigira, yambaye isengeri iri mu ibara ry'ivu, arimo arakora imyitozo ngororamubiri, iruhande rwe hasutamye umugore w'umuzungu.

Imipira y'ubwoko butandukanye, harimo iyo gukina n'amaguru, tenisi, basikete ndetse na volebolo. Harimo n'umupira wa rugubi. Harimo igikoresho cyifashishwa bapima uko umutima utera.

Umubyeyi ukikiye umwana yamushyize ku bibero, imbere yabo hicaye umuganga wambaye imyenda y'ubururu, umubyeyi n'uyu muganga bombi bambaye udupfukamunwa.

Umugore ufite icupa ry'amazi mu ntoki, yambaye ekuteri z'umweru ndetse n'agapira kajya gusa umutuku, afite telefone ku kuboko, arimo aragenda yumva imiziki.

Umugabo ukuze yambaye agapira k'ivu, afite icupa mu ntoki arimo aranywa amazi. Amazi ni isoko y'ubuzima ndetse no kubaho neza.

Umugabo wambaye ikabutura y'umweru, ndetse n'agapira k'umukara, arimo arakora imyitozo ngororamubiri, abifashijwemo n'umutoza wabimenyereye.

Abagabo babiri bari muri siporo, umwe yashyize akaguru ku rutugu rw'undi, arimo aragorora ingingo z'akaguru zigiye zitandukanye.

Umugabo w'umwirabura aryamye ku gatanda kabugenewe kifashishwa bavura ndetse kifashishwa bakora imyitozo ngororamubiri, iruhande rwe hari umutoza we w'umuzungu.

Imbuto z'ubwoko butandukanye higanjemo: inanasi, amaronji, orange, imineke, pome ndetse n'ubunyobwa, iruhande rwawo hari ibikoresho byifashishwa mu gukora siporo ndetse n'ibinini ruguru yaho hari imidari y'ishimwe.

Iduka zicuruza ibikoresho bitandukanye bya siporo. Aha uraza, waba ushaka kugura igikoresho runaka cyo kujyana muri siporo, ukaza bakakiguhera amafaranga make.

Urujya n'uruza rw'abantu, higanjemo urubyiruko. Barimo barakora imyitozo ngororamubiri. Babize ibyuya, birasa nk'aho koko bakoze. Siporo ni nziza ku buzima bwa muntu.

Umusore ukiri muto, afite icupa mu ntoki ririmo amazi arimo arayanywa. Ni byiza kunywa amazi kuko bituma ugira ubuzima bwiza ndetse bikarinda umubiri wawe kumakara.

Igikoresho cyifashishwa bagishyira ku kaguru cyane cyane ku ivi aho umuntu aba yavunitse. Kimufasha kugorora imitsi ndetse kigatuma akaguru gasubira ku murongo.

Umugabo ukiri muto, afite ibyuma byabugenewe mu ntoki bifasha abantu gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agapira k'ubururu, iruhande rwe hahagaze umutoza we.

Umugabo urimo aricucira amazi, arimo arakora imyitozo ngororamubiri. Siporo ni nziza ku buzima bw'umuntu, ariko ujye unywa n'amazi igihe ukora siporo.

Umugore ukiri muto arabyutse, yicaye ku buriri, yambaye agasengengeri k'umukara ndetse n'agapantaro k'umukara, arimo arinanura.

Umuntu ufite igikoresho kifashishwa mu gukanda imitsi ndetse n'umubiri, aho wabashije kuvunika cyangwa gukomereka kiri mu ibara ry'ubururu.

Umuntu arimo arakora imyitozo ngororamubiri, arunamye kandi yunamye ku kumukeka wabugenewe. Imyitozo ngororamubiri ni myiza kuko idufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Umusore muto wambaye ekuteri z'umweru, isaha ku kuboko ndetse n'agapira k'umweru, afite icupa mu ntoki arimo aranywa amazi.

Umugabo wambaye imyenda y'imikara, yambaye inkweto ndetse n'amasogisi, yunamye hasi arimo arakora imyitozo ngororamubiri, ni byiza gukora imyitozo ngororamubiri kuko bituma ubuzima bwacu bumera neza.

Umusore w'ibizigira wambaye agapira k'ubururu ndetse n'agashanete mu ijosi afite icupa ry'amazi arimo arayanywa, amazi ni meza ku buzima bw'umuntu.

Ikirahure kirimo gusukwamo amazi meza y'urubogobogo, kirasa neza kandi kirakeye, amazi ni meza ku buzima bw'umuntu ariko biba byiza iyo asukuye.

Umusore w'ibizigira afite icupa arimo aranywa amazi, amazi ni meza ku buzima bw'umuntu kuko bituma agira ubuzima bwiza.

Umukobwa mwiza yambaye isengeri ry'umukara, hasi agakabutura k'umukara, afite icupa mu ntoki arimo aranywa amazi, afite isaha yabugenewe ku kaboko yifashishwa babara ibirometero.

Umugabo wambaye ikote rijya gusa umukara, yambaye ikabutura y'umukara, afite icupa ku munwa arimo aranywa amazi, siporo ni ingenzi ku buzima bw'umuntu ndetse n'amazi na yo ni ingenzi.

Abagabo babiri barimo barakora imyitozo ngororamubiri. Umwe yambaye agapira k'umutuku n'ikabutura y'umukara n'inkweto z'umukara, undi ku ruhande usa nk'umutoza yambaye agapira k'umukara, ipantaro ijya gusa umukara ndetse n'inkweto zijya gusa umukara.

Shampo ni igikoresho cyifashishwa gitunganya umusatsi ndetse kikanoza ibikoresho bitandukanye, gikozwe mu gikakarubamba.

Izi ni produwi zikorwa mu gikakarubamba, zirimo; amasabune y'amazi, korogate, amavuta ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Uducupa tw'ibirahuri tubonerana, mo imbere harimo imiti y'ubwoko butandukanye. Dupfundikijwe n'imipfundikizo y'umutuku ndetse n'umweru, ndetse mu rubavu rwatwo harimo udupapuro twanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Forever Royal Jel ni amavuta akozwe mu mbuto z'amaronji ndetse n'ibindi bimera bitandukanye, ni byiza kwisiga amavuta akozwe mu bimera byacu kuko ni byiza cyane.

Ikimera gifite amababi y'icyatsi, kiri mu bwoko butandukanye bw'ibimera, cyubatse ku rugo rw'ibyuma.

Iduka ricuruza imiti ya gakondo igiye itandukanye, aha ngaha bakugurisha imiti bitewe n'indwara urwaye. Rero, urwaye waza ukivuriza hano.

Agacupa k'umweru kanditseho amagambo y'Icyongereza avuga ngo Forever dialy, aka gacupa karimo umuti uvura.

Uyu ni umuti wifashishwa mu koza amenyo. Ukozwe mu gikakarubamba. Ni mwiza kuko wica mikorobe zo mu kanwa ndetse urinda indwara z'amenyo.

Amatovu ni ibimera bikunda kuba ahantu hatandukanye mu gihugu, cyane cyane mu bihuru, arajombana ariko agira indabo nziza zihumura.

Ameza ariho imiti ya gakondo igiye itandukanye, hariho imbuto, imizi y'ibiti ndetse n'udusorori bakuriramo iyo miti. Ni byiza gukoresha imiti ya gakondo.

Iki ni ikimera kiri mu bwoko bwitwa igicuncu. Kivura indwara zitandukanye. Zirimo indwara zo mu nda nk'inzoka ndetse n'izindi.

Ifoto, ifoto iriho ibinyobwa birimo ibyayi ndetse n'amakawa, iruhande rwabyo hari umuneke, inyuma yabyo hari inanasi ndetse n'indabo z'iroza.

Agacupa k'umweru gapfundikije agafuniko k'ubururu, iruhande handitseho serumu. Uyu ni umuti wifashishwa mu kuvura.

Iki ni icyatsi bakunda kwita urumogi. Ni ikimera iyo ukinyweye nk'itabi kiragusindisha kigatuma uta ubwenge. Niyo mpamvu cyitwa ikiyobyabwenge.

Imiti y'ubwoko butandukanye, iyi iva mu bimera bigiye bitandukanye, harimo ibireti, amakawa ndetse hagati yabyo harimo umunzani wa kinyarwanda.

Ibiganza bibiri, kimwe gifite korogate, ikindi gifite uburoso, iyi korogate n'iy'igikakarubamba, ni byiza kugira isuku yo mu kanwa.

Uyu ni umugabo, wambaye ikote ry'umukara ndetse n'ishati y'ubururu, uyu ni umujyanama ugira inama abantu batandukanye ku bijyanye n'imirire kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Igitoki, ubunyobwa n'ibindi bimera by'ubwoko butandukanye, igitoki kiri mu biryo byo mu bwoko bw'ibitera imbaraga ni cyiza cyane, ubunyobwa bukaba mu biribwa byubaka umubiri.

Imbuto z'indimu, ku ruhande hari indabo, hepfo yaho hakaba imicyayi icyayi, hirya yaho hari ikimera cyitwa umwishywa ni byiza, byifashishwa mu kuvura.

Ikimera cy'umuravumba, cyifashishwa mu bwoko butandukanye, ni umuti uvura indwara z'ubuhumekero ndetse ukaba wavura n'indwara harimo nk'inkorora ndetse n'ibicurane.

Imbehe ziri mu ibara ry'umukara, harambitseho imiti y'ubwoko bwa kinyarwanda bugiye butandukanya, iyi miti yifashishwa havurwa abarwayi bumva batameze neza.

Uducupa dutatu tw'umweru, ako hagati kanditseho n'ibara ry'umutuku, utundi tubiri two ku ruhande twanditseho n'ibara ry'ubururu, tubamo imiti ya gakondo.

Amacupa ari mu mabara y'imyeru ndetse imbere yayo hateretse irindi cupa riri mu ibara ry'icyatsi, iruhande rwayo hari utujerekani, kamwe karimo ibara ry'umuhondo.

Ikimera gifite amababi y'icyatsi, iki bacyita umusave. Birasa nk'aho imvura yakinyagiye.